Iki ni cyuma cy'umutuku ndetse n'ikindi cy'umweru byegeranye, bishinzwe kuzimya umuriro ahantu hagiye hatandukanye, hejuru yabyo hakaba hari amatiyo y'umutuku maremare abifasha mu kuzimya umuriro.